Abagabo babiri bafite amazi ku meza, amazi umubare wayo ni atanu, imbere hari agaseke gasa umweru n'umutuku, hari bakagarawundi yiganjemo ubururu n'umweru, inyuma hari abandi bantu batagaragara neza.

Abagabo n'abagore imbere yabo haravugira umuntu wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru n'umukara ufite imisatsi w'igitsina gore, inyuma ye hari ''porojegita'' cyangwa iboneshamashusho irimo ijambo ''ekari''.

Ameza afite ibara ry'umutuku n'umukara, azengurutswe n'abantu biganjemo abagore n'abagabo. Inyuma yabo hari igishushanyo cyiganjemo ibara ry'ubururu, icyatsi cyerurutse, n'ubururu bwerurutse. Imbere yabo hari amakamera, inyuma yabo hari abandi bantu.

Abantu bane abagore babiri n'abagabo babiri, abagore babiri begeranye umwe ni umuzungu kandi afite umusatsi wa shokora, undi arirabura kandi yambaye amarinete, yambaye ikoti ry'umweru n'agashati mu imbere gasa umutuku n'umweru.

abantu barimo abagore n'abagabo abagore babiri bicaye imbere y'abazungu bombi bari kwandika bafite amazi imbere yabo uducupa t twamazi ameza bateretseho asa ibara rya shokora umugabo bicaye iruhande yambaye ikoti risa ubururu bwijimye

Umuntu w'igitsina gabo w'imibiri yombi yiganjemo igikara uri mu itente risa umweru wambaye umupira w'umweru uri ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mashini iruhande rwe hari abantu benshi biganjemo abana n'abasore.

Abantu batandatu, abagabo bane n'abagore babiri, umukobwa umwe yambaye agakoti k'umukara, agasengeri k'umukara, umugabo yambaye ikoti ry'umukara ishati y'ubururu hari amamashini.

Inzu ifite urusenge rw'umutuku imbere yaho haparitse imodoka y'ambiranse, ifite ibara ry'umweru, umutuku, ubururu ifunze ibirahure, inyuma y'iyo nzu hari ubwatsi, imisozi n'ibindi.

Abantu babiri, umuganga w'umuzungu n'umurwayi w'umwirabura bose bambaye udupfukamunwa, umurwayi yambaye ishati y'umukara, isaha y'umukara, umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Imfungwa zambaye imyenda isa iroza, amakabutura n'amashati y'amaboko magufi, imbere yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ya rukarakara, ifite imiryango isa umukara.

Abagabo bambaye imyenda y'iroza amakabutura n'amashati afite amaboko magufi, imbere yaho hari inzego z'umutekano zambaye imyenda amapantaro asa nk'amashati yabo y'amaboko maremare n'inkweto za butu z'umukara.

Imodoka itwara abagenzi, isa umuhondo n'umweru, yitwa tagisi, biri muri kaburimbo, imbere yayo hari umumotari wambaye ijire isa ubururu n'umupolisi uri ku ruhande, wambaye inifomo z'akazi.

Abantu benshi bambaye umweru, ubururu, umutuku, bafite icyapa cyanditseho umurenge wa Karambo, akagari ka Karambo, bafite ifoto iriho perezida Paul Kagame.

Inama irimo abagore n'abagabo yiganjemo abagabo bambaye amakositime y'umukara n'amashati y'umweru. Iyo nyubako nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isizemo ibara ry'umweru nk'irangi.

Ikamyo isa umweru n'umutuku, iri kumwe igenda mu cyerekezo kimwe n'umumotari wambaye kasike y'umutuku, moto y'umutuku n'umukara, jijaketi isa umuhondo n'ubururu, ahantu hasa nk'aho hari amazu afite ibara.

Amatara yaka ibara ry'umuhondo bwije, imodoka imeze igikwasiteri ifite ibara ry'ubururu n'umweru, abagabo babiri bahagaze ku ruhande bambaye ibisarubeti by'ubururu.

Abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, umugore umwe uri inyuma y'abandi yambaye ishati y'umukara n'ijipo ya shokora, afite umusatsi wa naturere w'umukara, imbere ye hari undi wambaye ishati y'umuhondo ugaragara nk'ucuruza amayinite.

Akapa kari imbere y'ibiti gafite amabara ane, gashinze hasi mu butaka, binyuze mu cyuma, ako kapa gafite amabara ane ari yo umuhondo, umutuku, umweru, umukara, kanditsemo mirongo itatu.

Umugore wifotoreje imbere y'ibyapa bibiri, kimwe gifite ibara ry'icyatsi n'ikindi gifite ibara ry'umweru. Icy'ibara ry'umweru handitsemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, icy'ibara ry'icyatsi handikishijwemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru. Uwo mugore yambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, inkweto z'umutuku.

Imodoka mu muhanda, inyuma hari indabyo zisa umuhondo, hepfo hari ibiti bisa icyatsi, ku ruhande hari ruhurura cyangwa umuferegi.

Ikamyo n'akavati binyura kumuhanda uririmo akazu gasa ubururu, hari ibiti n'ahantu hasa nkaho hapavomye, hari ikirere kimurika nkaho hari kumanwa.

Umuhanda urimo inzira yambukiramo abanyamaguru. Harimo harambukiramo umugabo ufite igare, wambaye ijire ririmo icyatsi cya polisi n'irindi bara ry'ivu. Afite akagare k'amapine y'umukara.

Umuhanda urimo ahagenewe kwambukira abanyamaguru, harimo abamotari babiri bagenda mu nzira imwe mu byerekezo bimwe; harimo akamodoka kamwe gafite icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru inyuma.